Akazu gakoze mu byuma kifashishwa n'abacuruzi batanga serivisi ku bijyanye na MTN harimo gutanga amayinite ndetse no kubitsa no kubikuza, akazu kakaba kaba gateretse hafi y'umuhanda kugira ngo abakeneye ubwo bufasha, babashe kukabona mu buryo buboroheye.

Akazu kubatse mu byuma, gateretse ku muhanda kifashishwa n'abacuruzi b'amayinite ya Airtel mu gutanga ubufasha ku bijyanye n'amamite ya Airtel.

Umucuruzi utanga serivisi ku bijyanye na MTN, ndetse na TIGO ari mu kazi ke hari abakiriya batandukanye baje gusaba ubufasha ku byo akora ndetse no hirya hari n'abandi bacuruzi bari mu bindi bikorwa n'ubucuruzi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'ibikorwa bigiye bitandukanye biri ahantu bakunze kwita mu gasantere, hari umucuruzi utanga serivisi zijyanye na Airtel money ndetse n'andi mazu yifashishwa mu bucuruzi bw'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa, hari imodoka zigaragaza ko iryo soko ryitabiriwe n'abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abacuruzi. Abacuruza ibijyanye n'ubufasha bujyanye no kubona amayinite ya Airtel ndetse n'abandi bacuruza ibijyanye no gutanga ubufasha ku murongo wa MTN na Tigo. Aho hari abakiriya batandukanye ndetse n'abacuruzi, baje guhaha cyangwa se gusaba ubwo bufasha.

Umucuruzi ucuruza amayinite ukorera mu mutaka wa MTN, ari gutanga ubufasha ku mukiriya ukeneye amayinite n'izindi serivisi zerekeranye na MTN.

Umucuruzi utanga ubufasha ku bijyanye na serivisi zijyanye n'amayinite cyangwa se kubitsa no kubikuza, muri MTN ndetse na Airtel akorera ku muhanda kugira ngo abakiriya baze kuhamusanga cyangwa se bamubone mu buryo bworoshye.

Abagore n'abagabo batandukanye, bahagaze imbere ya banke, bafite amakayi ndetse n'amaterefone n'ibindi bikoresho, bafite ingingo bari bari kwigaho umwanya washize.

Inyubako ya leta ikoreramo SACCO, aho abaturage baza kuguramo imigabane cyangwa se babitsamo amafaranga no kuguza, igihe babikeneye cyangwa se aho amatsinda abitse umutungo wayo.

Inzu ifite imiryango yubatse mu buryo bw'ibizeru imbere hateye ibiti bakunze kwifashisha mu busitani ndetse n'ibindi biti binini, haparitse n'imodoka. Iyo nzu igaragara nk'aho ikorerwamo igikorwa, abaturage bose bisangamo nk'aho babitse amafaranga ndetse n'aho amakoperative ahurira.

Umworozi waro inkoko zitanga amagi, aho yaje kureba inkoko zateye, agakuramo amagi kugira ngo abashe kuyajyana, kuyacuruza ndetse nawe ayifashishe.

Inzu iri ahantu hateye ibyatsi byinshi hariho icyapa cyanditse ngo furi blak joise buceri icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyokurya bitandukanye.

Icyumba giteguye neza kirimo ameza ndetse n'intebe bafatiramo icyayi, gifite amatara meza adasa umweruru ahubwo asa umuhondo harateguye neza cyane.

Inzu irimo ibicuruzwa byo kunywa harimo inzoga z'amoko agiye atandukanye nka pirimusi, mitsingi ndetse n'izindi nzoga bakunze kwita ibyuma ziri mu kabati bigaragara ko zitegereje abakiriya.

Aho dukunze kwita mu kabyiniro, hateguye neza hari intebe, ameza, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kugira ibyo bafata, hari n'abari gutambuka, hagiye hari imitako itandukanye abantu bicaramo igihe bategereje guhabwa ubufasha cyangwa se bari gufata ibyo kunywa cyangwa ibyokurya bakeneye.

Icyumba giteguye neza kirimo intebe n'ameza ariho amasahani cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa mu gihe cyo gufata amafunguro, harimo amatara meza asa neza cyane.

Ibyo kunywa bitandukanye dukunze kwita ibyuma, biri ahantu mu nzu icururizwamo ibyo byo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ibisa icyatsi kibisi, ibisa umweru nk'amazi ndetse n'ibisa umutuku abantu banywa.

Umucuruzi ucuruza, ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasabune yifashishwa mu kumesa, amavuta yo kwisiga, ndetse n'ibindi byo kurya biri aho ngaho, ari mu bucuruzi bwe, ari gukora igenzura ku bijyanye n'ubucuruzi bwe.

Ubucuruzi, bwa gaze, yifashishwa, mu guteka, aho umucuruzi ari kuzuza amacupa ya gaze, kugira ngo aze kubona uko aziha abakiriya be.

Umugore uri mu nzu y'ubucuruzi bw'imyenda, harimo imyenda myinshi, asa nk'aho aranguza, harimo imyenda y'abana, impetso zabana aho baterura abana, ari guseka yishimiye ubucuruzi bwe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, harimo ubucuruzi bw'ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa, harimo teremusi ibikwamo icyayi ndetse n'igikoma, gihabwa abakiriya baje bagikeneye ndetse n'amajerekani arimo amata y'ikivuguto ahabwa abakiriya.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa nk'amaji ya karungi ndetse n'inzoga zo kunywa zitandukanye nka mitsingi, gatanu n'andi moko y'amaji agiye atandukanye, harimo n'ibikoresho byifashishwa mu rugo nk'amasahani ndetse n'ibikombe.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi byitwa amakaramu, harimo ay'ubururu ndetse n'ay'umukara n'ay'umutuku bifashisha mu gukosora abanyeshuri cyangwa se ay'umukara yifashishwa abanyeshuri bandika kugira ngo batandukanye ibyo banditse n'ibyo kwibandwaho.

Abakristo bateraniye mu rusengero bageze mu gikorwa cyo gufata ifunguro ryera nk'umuhango uba mu madini ya gikristo, aho ababatijwe ari bo begera ameza y'umwami.

Inyubako y'urusengero nini yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura imbere hari parikingi cyangwa se aho imodoka zihagarara igihe abazijemo bari baje gusenga.

uUmuforomo ari gufasha umwana ufite ibibazo bitandukanye, aho yamuhaye akantu k'akagare yakifashisha mu buryo bwo kugenda, uwo muforomo akaba yambaye agapfukamunwa nk'umukozi wo kwa muganga.

Ababyeyi ndetse n'abagabo bagiye batandukanye, bahagaze imbere y'abayobozi b'amadini, abapasiteri bambaye amakanzu y'umweru, babahaye ibipapuro bigaragara ko ari impamyabushobozi cyangwa se ubundi bufasha babahaye.

Ababyeyi babiri bafite umwenda wanditseho amagambo dukunze kwita bandelori, iruhande rwabo hari abagabo babiri na bo bafite indi bandelori handitseho Mituweli, byerekana ko ibikorwa barimo bijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa, uri kuzenguruka mu rusengero, afasha umukristo w'umukecuru, utishoboye, amusobanurira ku bijyanye na telefoni, aho ari kumureberaho, akamusobanurira uburyo ki ikoreshwa.

Umupadiri yicaye imbere y'itorero rye, aho ategereje kuza kubwiriza abaje gusenga cyangwa se abaje mu misa, yambaye imyenda igaragaza ko ari umupadiri koko afite n'ameza ateguyeho ibitabo yifashisha mu gukora akazi ke.

Urubyiruko, ababyeyi, ndetse n'abasaza, bateraniye hamwe, mu rusengero, bahagaze bari gufotorwa, bishimiye ibikorwa byabo, bakurikirana, bibera mu rusengero aho basengera.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iyo nyubako ikaba ari ndende, byongeyeho ikaba ituzuye neza, ikaba izifashishwa nk'urusengero, aho abaturage bazajya bahahurira baje gusenga ndetse baje no kumva ijambo ry'Imana.

Ibyo kurya biteguye neza ndetse n'ibyo kunywa biteguye. Biteguye mu bikombe, dukunze kwita amatasi cyangwa se ibirahure ndetse n'ibyo kurya biri ku masahani meza n'ibiyiko byifashishwa mu kurya ndetse n'utwuma bifashisha gukata ibyo byokurya.

Inzu igeretse cyangwa se inyubako igeretse, ifite inzira banyuramo mu kuyinjiramo, imbere hari ubusitani ndetse harimo n'imiferege irimo amazi, abantu bifashisha mu koga cyangwa se inzira zitwara amazi, ziyamanura ziyajyana.

Inyubako igeretse gatatu, iyo nyubako ikaba igiye ifite ibyumba bitandukanye, ibyo byumba bikaba bifasha abantu bakeneye amacumbi, ndetse n'abakeneye aho kuruhukira, igihe bari bari mu rugendo, bagakenera kuruhuka cyangwa se bagera muri ako gace, bakabura aho kurara, bakajya kuhagura, kugira ngo babashe kubona aho barara.

Amazi akunze kuba muri hoteli baba barahurije hamwe, ayo mazi akaba basa neza hari n'isikariye zimanuka zijya muri ayo mazi, ahantu bifashisha mu bikorwa byo kwidagadura, ndetse n'igihe bashaka kwishimisha, bashaka kogamo, bifashisha imbere haba udutebe bicaraho igihe bavuye mu mazi, cyangwa se baje kureba abari kogamo.

Uburiri buteguye neza buriho amashuka asa neza, n'icyo kwiyorosa hariho umusego, muri iyo nzu kandi harimo n'inzitiramibu hari akabati ko gushyiramo udukoresho tugiye dutandukanye.

Uburiri bubiri buteguye neza, busashe harihoho amashuka meza, buri mucyumba gicumbikira abantu, ubwo buriri, burateguye neza, buri mu cyumba bigaragara ko hararamo, abantu babiri.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore ndetse n'abasaza, bateraniye hamwe bafite ikintu baje kuvugaho bahuriye ahantu muri hoteli kugira ngo biborohere bose bahahurire kandi bahakwirwe.

Ibyokurya biri ku masahani ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kurya, harimo amafoke, ibiyiko ndetse n'ibikombe, basukamo ibyo kunywa igihe bakeneye kurya bari no kunywa.

Hoteri irimo intebe nziza, n'ameza ateguyeho ibikombe by'amatasi, bisa neza, hariho indabyo, hari ibirahure bitandukanye, iyo hoteri ikozwe mubirarahure, hasi harasa neza cyane.

Ameza ateguye neza, ariho ibikoresho byifashishwa mu gufata amafunguro, harimo amasahani, amafoke ndetse n'ibiyiko, n'ibikombe byifashishwa igihe uri kurya akeneye kurenzaho n'icyo kunywa.

Ahantu hameze neza ho gusohokera, igihe abantu bashaka kwidagadura bajya, hari imitaka iteguye n'intebe n'ameza munsi y'iyo mitaka bicaramo. Hari aho kogera dukunze kwita pisine hari amatara meza n'ikibuga cyiza cyo kwidagaduriramo.

Igitanda gisaka neza, kiri ahantu mu cyumba, hameze neza, hari amatara atandukanye, ay'umweru, ay'umuhondo, cyayitanda kikaba kiriho imisego ibiri iteguye neza, bigaragara ko ari aho abantu baza gucumbika, igihe bageze ahantu bakabura aho kurara.

Uruvunge rw'abantu benshi bateraniye hamwe, bari ahantu hakorerwa ibikorwa by'imyidagaduro, cyangwa se basohokera bateranye ari benshi, bamwe bari kurya, abandi ntabwo bari kurya.

Mu nzu hateguye neza, harimo ameza ateguye neza yambitse ibitambaro ndetse n'intebe ziteguye neza zambitse ibitambaro byiza by'umweru, abantu bifashisha bicayeho baganira cyangwa se bari gufata amafunguro.

Icyumba giteguye neza, harimo intebe ndetse n'ameza, zakunze kwitwa muri hoteri cyangwa se muri moteri, yifashishwa mu gufata amafunguro ndetse n'ibyorya.

Icyumba gicumbikira abantu bo kuraramo ariko atari ukugumamo iminsi myinshi, cyifashishwa nk'igihe umuntu yageze mu nzira akabura aho arara akajya kuhishyura kugira ngo aharare, harimo igitanda kimeze neza, uburiri bumeze neza, giteguye mu buryo bwiza bwose bushoboka.

Ubucuruzi butandukanye hari ubucuruzi bw'ibitoki by'imineke n'ibitoki biba byahurijwe hamwe igihe bitegereje abakiriya ngo baze babigure ndetse n'imbuto z'indi z'ubwoko butandukanye harimo inanasi, amatunda, pome ndetse n'ibindi.

Ababyeyi bahetse abana ndetse n'abatabahetse bicaye ahantu mu muhanda cyangwa se hasa nk'isoko ritoya riherereye mu gace batuyemo, bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'ibitunguru, ibijumba, hahagaze n'abandi bari guhaha ibyo bicuruzwa byabo.

Abacuruzi bacuruza ibyo kurya harimo abagore bafite abana ndetse n'abandi bari gucuruza ibitunguru ndetse n'ibijumba, kugira ngo babashe guhahirwa ubundi biteze imbere, ndetse n'ibihingwa byabo bibashe kugurwa babone uko batera imbere.

Urujya n'uruza rw'abaturage bamwe baje gucuruza amatungo, abandi baje gucuruza inzugi cyangwa se ibikoresho bikozwe mu biti, hari n'abazanye ibindi bicuruzwa baturutse kure, bitwaje imodoka kugira ngo babigeze ku isoko.

Abacuruzi batandukanye harimo abacuruza imyenda y'imbere y'abana n'amakabutura, ndetse n'abacuruza imyenda y'imbere y'abakobwa n'abagore dukunze kwita uduhanika, ndetse n'abandi bacuruzi hirya no hino bacuruza imyambaro ndetse n'inkweto.

Urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abaguzi. Abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda y'imbere, ababyeyi bamwe bari gucuruza imyenda y'imbere yifashishwa ku bagabo, abandi ubona bacuruza imyenda y'imbere yifashishwa ku bagore, iyo dukunze kwita uduhanika, abandi bari gucuruza indi myenda itandukanye, ndetse n'inkweto.

Urujya n'uruza rw'abaturage bamwe bari gucuruza ibikoresho byifashishwa mu rugo nk'ibikombe, abandi bari guhaha ndetse hirya hari n'abari gucuruza imyenda n'ibindi byifashishwa mu rugo ndetse n'ibyo kurya.

Aho gufatira ibiryo hateguye neza hari ameza menshi, agiye ateretseho ibyo twita ibisuperi, bashyiramo ibyo kurya ndetse n'intebe ziteguye neza abakiriya bicaraho, igihe bategereje ubufasha cyangwa bari gufata ibyo kurya.

Ameza ateguyeho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ibikoresho biraza kwifashishwa mu gihe baraba bari kurya arabakeneye gusatura nk'ibyo twita kuto cyangwa se ifoke ndetse n'igikombe kiza k'itasi kunywa arasukamo, kugira ngo bimworohere kunywa neza.

Inzu ifite inyubako zigiye zitandukanye zikurikirana neza kandi nyinshi hagiye harimo n'ubusitani busitani bugiye butwikiriye abantu bicara mu gihe bakeneye guhabwa ubufasha, ndetse naho abantu baruhukira n'amazi bogamo mu gihe bari kuruhuka naho bicara bari gufata akayaga.

Resitoraa iteguye neza iriho intebe nziza n'ameza bifashisha mu gihe bari kuriraho cyangwa se bari kunyweramo, itatse neza hejuru harimo ibipurizo, ifite amadirishya meza, ni nziza cyane.

Mu nzu ifatirwamo ibyo kurya ndetse n'ibindi byerekeranye n'ibyokurya cyangwa byo kunywa, hateguye neza, hari intebe, ameza ateguye ndetse n'aho binjira bagiye kuvuga ibyo bakeneye.

Ameza ateguye neza impande zaho hakikijwe n'intebe zimeze neza, zisa neza, zisukuye, ari ahantu mu nzu imeze nk'aho ari muri sare, harimo amatara meza, harimo n'indabyo nziza.

Umumotari wambaye imyenda y'akazi k'ubumotari harimo kasike ndetse n'ijiri yerekana akazi akora, ari kumwe n'umukiriya ugiye kumuha kasika ngo nawe yambare bajye kuri moto amutware.

Ubwikorezi bukorerwa ku binyabiziga, aho umumotari yikoreye amata, mu mabinika ayajyana ku ikusanyirizo, kugira ngo uwo musaruro ubashe guhabwa agaciro, ndetse ushyikirizwe n'abawukeneye.

Ubwikorezi bw'igare aho igare rigenda ryikoreye imizigo itandukanye, hari n'uritwaye w'umuyonzi uyobora mu muhanda neza kugira ngo atagira ibyo yangiza mu muhanda cyangwa se agakora impanuka.

Umumotari atwaye ikinyabiziga cye moto, ariko ntabwo yambaye imyenda y'akazi, hari'abapolisi bigaragara ko bamuhana kubera ko umumotari uri mu kazi aba agomba kwambara imyenda igaragaza akazi.

Ubwikorezi bw'ibinyabiziga ndetse no gutwara abantu, aho abamotari batwaye abantu, umwe atwaye umuntu ndetse afite n'umuzigo akaba yambaye kasike nk'igikoresho cyifashishwa ku bamotari kugira ngo birinde impanuka zikabije.

Umumotari utwara ikinyabiziga cya moto, atwaye umugenzi bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo agenda agana aho ajyanye uwo mugenzi we, mu muhanda ha utarimo ibinyabiziga byinshi.

Abakora akazi k'ubumotari, bateraniye hamwe, bategereje abakiliya bo gutwara, kugira ngo babageze aho bashaka kugana, bahagarara ahantu hamwe, kugira ngo ukeneye iyo serivisi, abashe kuyibona bitamusabye kwiruka cyangwa ajya gushakira hirya no hino.